Muganga wambaye itaburiya y'umweru urimo akingira umwana w'umunyeshuri. Ni byiza ko umuntu wese ahabwa inkingo aba yaragenewe kubera ko bifasha umubiri mu bwirinzi bikamwongerera n'ubudahangarwa, inkingo zimwe na zimwe tugenda duhabwa harimo urukingo rw'iseru, urukingo rw'imbasa n'urukingo rw'inkondo y'umura.

Abantu bagiye ku ivomero, ni byiza kugira amazi asukuye kandi meza, nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura gikomeje guteza imbere ibikorwa remezo nko gukwirakwiza amazi mu mavomero rusange hirya no hino mu baturage, kugira ngo buri wese abashe kubona amazi meza kandi hafi, ni byiza gukoresha amazi meza kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Urugomero rw'amazi, ni byiza kugira amazi asukuye hirya no hino cyane cyane yegereye abaturage, amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, tuyifashisha mu rugo, mu nganda ndetse no mu bindi bikorwa.

Ababyeyi bagiye gushaka amazi, ni byiza ko Leta y'u Rwanda yashyize ibikorwa remezo hirya no hino mu buryo bwiza bwo kubyegereza abaturage, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, barwanya indwara nyinshi ziterwa no gukoresha amazi adasukuye, nka korera, amacinya n'impiswi.

Gukaraba intoki n'amazi meza yo mu mugezi ni byiza cyane ku baturage, kuko bibafasha kwirinda indwara zandurira mu mazi yanduye nka korera, impiswi, ndetse n'ibindi...; inama ku baturage ni ugukoresha amazi meza.

Umupapa urimo gukarabya abana batoya, ni byiza kwita ku buzima bw'abana tubatoza gukaraba amazi meza n'isabune, cyane cyane mbere yo gufata amafunguro ndetse na nyuma y'uko bavuye gukoresha ubwiherero.

Abantu benshi bagiye mu mahugurwa yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ihohoterwa ry'abana; ni byiza ko Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kurwanya ihohoterwa, aho bigisha abaturage uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye.

Umuntu w'igitsina gabo uri kwita ku menyo ye, ni byiza kwita ku menyo kuko biturinda indwara zimwe na zimwe nko kugira umwuka mubi mu kanwa, amenyo tuyitaho tuyaborosa, tuyakuramo ndetse n'imyanda.

Umugabo wambaye igitambaro cy'amazi cy'umukara arimo kwiborosa. Ni byiza kwita ku menyo yacu twiborosa n'amazi meza ndetse n'umuti wabigenewe kuko byica microbe ziba zagiye mu menyo byatewe n'ibyo twariye.

Umuntu ukuze ari kwitabwaho n'umuntu ukiri muto, ni byiza kwegera abantu basheshe akanguye kuko bibafasha gutekereza neza tukabigisha gukora siporo, gutegura indyo yuzuye ndetse tukababa hafi.

Ni byiza kwita ku buzima bw'abakuze, babaha indyo yuzuye igizwe n'imboga, imbuto, ndetse bakabaha n'amazi ahagije, kubera yuko bibarinda indwara nka za diyabete, imivuduko, ndetse n'amakanseri.

Umwana w'umunyeshuri wambaye imyenda y'icyatsi, umuganga wambaye itaburiya y'umweru, umwana ari gusobanurirwa ibijyanye no kwita ku menyo, ni byiza gufasha abana no kubasobanurira neza ibijyanye n'amasomo biga babahugura.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane ababyeyi batwite. Ni byiza ko ababyeyi batwite bagomba kujya kwa muganga, bagahura n'abaganga bakabaha inama ndetse bakabaha n'abajyanama hafi babakurikirana.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, ababyeyi batwite bajya kwipimishayo n'abana bakajya kubakingizayo, ni inyubako iherereye mu karere ka nyarugenge akaba ari ikigo nderabuzima cya nyarurenzi. Ni byiza ko tugana ibigo nderabuzima kugira ngo tubashe guhabwa serivisi z'ubuganga aho kujya kwivuza magendu.

Inzu y'ababyeyi n'impinja, ni byiza ko ibitaro bigira ibyumba byagenewe ababyeyi batwite ndetse n'abana batoya bakivuka kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga babakurikirana.

Umuntu w'igitsina gabo, yambaye ikabutura n'umupira w'umukara n'agapfukamunwa. Aryamye ku gitanda, impande y'ibyuma biri kumwongerera amaraso ndetse n'umwuka.

Dogiteri wambaye itabariya y'umweru ndetse n'ababyeyi bamwicaye iruhande. Arabasobanurira ibijyanye n'ubuzima bwiza uburyo bakwita ku mirire y'abana ndetse n'uko bakwita ku bana batari bavuka.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'ibanze, inaha mu Rwanda zikunze kwitwa ibigo nderabuzima. Aho abaturage bagenda guhabwa serivisi z'ubuvuzi cyane cyane abagore batwite, abana batoya kugira ngo bahabwe inkingo ndetse n'abafite uburwayi bworoheje.

Umuntu w'igitsina gabo uri muri siporo, yambaye imyenda y'umukara, amasogisi y'umweru n'isaha ku kaboko, ari kurambura ingingo ze z'umubiri, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, gukomeza amagufa no kurambuka kw'imikaya.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo ari kunywa n'amazi avuye muri siporo. Ni byiza ku bana b'abakobwa ndetse n'abangavu gukora siporo kubera yuko bibafasha gusohora imyanda mu mubiri, uruhu rugahumeka neza, ni byiza kandi kunywa amazi mu mu gihe wakoze siporo, ukayanywa kandi ku rwego rushimishije.

Umuntu wambaye imyenda ya siporo ndetse yashyize n'umupira w'imbeho ku ntugu, arimo kunywa amazi. Ni byiza kunywa amazi ahagije kandi afite isuku, cyane cyane mu gihe wavuye muri siporo kuko bifasha mu gusukura umubiri ndetse bikagabanya n'umwuma mu mubiri ndetse n'izindi ndwara.

Imyitozo ngororamubiri nko gukina umupira, kwiruka, n'ibindi. Hamwe no kunywa amazi ahagije, kandi asa neza; ibi byose bidufasha mu kwirinda umwuma.

Umugabo uri muri siporo, yambaye isaha y'umukara n'ikabutura ye ya siporo y'umukara, arimo gukanda urugingo rugize akaguru ke igice cyo ku ivi, siporo ni ingenzi mu buzima kuko zidufasha kurambuka imitsi y'amaguru ndetse bikaturinda indwara za hato na hato.

Neosporin ni umuti ukoreshwa inyuma ku ruhu, ugafasha mu gukumira no kuvura ubwandu bushobora guterwa n'udukomere, inkovu cyangwa gukomereka gutoya. Ubanza gukaraba aho ugiye kuwusiga n'amazi meza n'isabune, warangiza kuhumutsa ugasigaho uyu muti. Hanyuma ushobora no kwifashisha agapfuko.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru, ari kurambura ingingo z'amaguru ye ndetse n'amaboko ye. Ni siporo nziza ku mubiri kugira ngo imikaya irambuke ndetse n'amagufa akomere.

Ibyatsi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho dukunze kubyifashisha nk'umuti nyarwanda, hari ibyatsi bivura inzoka, hari ibyatsi bivura ibisebe, bikadufasha komora vuba.

Ubuvuzi gakondo bukomeje gutera imbere, aho bafasha no kuvura abantu bagira ikibazo cyo kurangiza vuba, gucika intege ndetse n'ibindi, uyu muti uboneka hirya no hino hatandukanye mu bice by'u Rwanda.

Ibikoresho nk'amacupa, ibikombe birimo imiti, imiti Nyarwanda dukunze kuyifashisha mu buvuzi Nyarwanda aho kuva kera na kare byahozeho, bifashisha ibyatsi ndetse n'ibimera bitandukanye.

Imiti ya kinyarwanda bifashisha bavura uruhu ndetse no mu nda mo imbere, iyi miti harimo: ibumba, igisura ndetse n'amakara, ibi bifasha uruhu gusa neza ndetse bikoza no mu nda.

Amacupa n'ibikope birimo ubuki, mu buzima bwa buri munsi dukenera kwifashisha ubuki nk'umuti wa Kinyarwanda, aho uwabikoresheje asinzira neza akaruhuka neza, ikindi kandi ubuki budufasha mu gukura imyanda mu mubiri, bigatuma n'uruhu rusa neza.